Abagabo benshi harimo bambaye impuzankano, harimo abashinzwe umutekano, bamwe bambaye ingofero bari munsi y'igiti, umwe yicaye imbere yawo bigaragara yuko ashobora kuba ari umuganga by'umwihariko ari kubaganiriza ku byerekeranye no kugira ubuzima bwiza.

Umwana mutoya ari kumwe n'umukobwa, bose bari ku mugezi. Bigaragara ko ari umugezi ushoka, bari kuvoma amazi bakoresheje amavido abiri.

Abantu batanu bigaragara ko bambaye impuzankano, umugabo umwe yambaye ikarita imuranga mu ijosi, n'umugore umwe yambaye ikarita imuranga mu ijosi, undi umwe yambaye ishati y'ubururu.

Abakobwa benshi bihurije hamwe barifotoza, inyuma yabo hari ururabyo ndetse inyuma yabo hirya gato hari inzu isakaje amatebura.

Abana benshi bicaye bari kumwe n'umubyeyi arimo abaha icyo kunywa. Umubyeyi afite imisatsi myinshi ndetse ateze ingofero. Inyuma ye hari abandi bantu bahagaze ndetse n'umusirikare ufite inkongoro mu ntoki.

Abana batanu bari kuri robine cyangwa se ku ivomero, barimo bakaraba intoki, bigaragara yuko bashobora kuba bagiye kunywa amazi, by'umwihariko bigaragara ko bambaye impuzankano ndetse bigaragara yuko ari abana b'abakobwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bihurije hamwe harimo abakobwa, abagabo ndetse n'abana, ni urubyiruko muri rusange bamwe bambaye impuzankano abandi nta bambaye, bamwe bambaye ikarita baranga abandi ntayo bambaye bigaragara ko bifotoreje hamwe barangije ikirori.

Ifoto igaragaza abagabo bihurije hamwe bambaye amakote n'amapantaro y'umukara, imbere yabo bigaragara ko hari ababahagarariye, abagabo batanu ndetse n'umugore umwe. Inyuma yabo hari ifoto ishushanyijeho abantu batanu.

Abaganga bane, bahagaze mu cyumba cy'ivuriro, imbere yabo haryamye umuntu nawe wiyoroshe ishuka y'ubururu, bombi bambaye impuzankano y'ubururu.

Abantu bahuriye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore. Muri bo harimo ushinzwe umutekano, dukunda kwita DASO, bigaragara ko bari imbere y'inzu isize irangi ry'ubururu. By'umwihariko n'imbere yabo, haparitse imodoka.

Abagore n'abagabo bahagaze imbere y'inzu bigaragara ko bari kwifotoza bamaze kuganira ku bijyanye no kubaka ndetse no kurwanya indwara zo mu mutwe.

Urujya n'uruza rw'abana batoya harimo abahungu ndetse n'abakobwa by'umwihariko bambaye nabi, bambaye imyenda tujya dukunda kwita inshwabare, bamwe bafite umusatsi wabereyeho abandi barimo kurira.

Amafoto ane bahurije hamwe. Ifoto ya mbere iriho abagabo babiri bigaragara ko bari gutera igiti. Indi foto nayo iriho abagabo babiri bahagaze imbere y'igiti, by'umwihariko mu busitani buri imbere y'inzu. Indi foto iriho abantu benshi bahagaze iruhande rw'ishyamba.

Abagore babiri bicaye imbere y'ameza, umwe afite uruhinja n'undi afite uruhinja, ndetse iruhande rwabo hari ubaganiza ufite imisatsi myinshi, ku meza hari terefone ebyiri ndetse n'agasahani, hirya yaho hari firigo.

Icyumba cyo ku kigo nderabuzima kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'umwihariko byifashishwa mu kuvura indwara zijyanye n'amenyo.

Icyumba cyo ku bitaro cyangwa se cyo ku kigo nderabuzima, kivurirwamo abarwayi barwaye indwara zo mu kanwa, by'umwihariko amenyo n'izindi zifata mu bworo bw'akanwa.

Icyumba cyo mu ivuriro kirimo intebe, ibikoresho byifashishwa mu kuvura indwara zo mu kanwa nk'amenyo n'izindi ndwara zose zifata mu myanya yo mu kanwa.

Abagabo babiri umwe bigaragara ko arandase undi, by'umwihariko w'ibumoso bigaragara ko ashobora kuba arwaye uw'iburyo akaba ari kumufasha kugera aho uri ibumoso ashaka kugera.

Umukobwa mutoya ufite imisatsi, myinshi ndetse n'umukecuru ufite imisatsi y'umweru, ari yo dukunda kwita imvi, wambaye ikanzu y'umweru. Bigaragara ko ari mu cyumba kivurirwamo abarwayi, umukobwa arimo aramuganiriza, amwereka utuntu kugira ngo amushimishe.

Umugore wicaye mu cyumba iruhande rwe hari uburiri, igitanda ndetse yambaye imyenda ya siporo bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukecuru uri kumwe n'umukobwa bigaragara ko imbere yabo ku meza hari agakombe karimo amazi ndetse umukobwa afite ibinini mu ntoki bigaragara ko ari gufasha umukecuru kunywa ibinini.

Umukecuru ufite imvi wambaye ikanzu y'ubururu uhagaze imbere y'umugabo, ni umugabo nawe afite amazi mu ntoki ari kuyanywa yicaye ku buriri.

Umukecuru ufite imvi yambaye amataratara, ndetse ari kumwe n'umugore, ufite agapima uko umutima utera amufashe mu biganza.

Abagore bane bari ku ifoto bigaragara ko ari nk'icyapa gishushanyije kiri imbere y'ibiti biteye ndetse n'amazu iruhande raho hari inzira nyabagendwa.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama, harimo abagabo, abagore ndetse n'abana, abagabo bambaye amakoti y'amakositimu, bigaragara ko bari kuganirizwa kubyubaka igihugu cyabo cyangwa se kominote yabo.

Inzu nziza imbere yayo hari ubusitani, hirya yayo hagana hepfo gato hari ibigega, ndetse inyuma yayo hirya hagaragara ko hubatse indi nzu ifite amabati yumutuku.

Mu ivuriro mo imbere aho abarwayi binjirira, aho bajya bakunda kwita kuri resebusiyo by'umwihariko hari n'intebe bicaraho ndetse hari na kamera n'amatara ari kwaka.

Abagore batatu harimo umwe wambaye isaha ku kaboko, bigaragara ko ashobora kuba ari umuganga. Ndetse we yambaye n'impunzankano, yicaye ku gatebe. Umwihariko rero bigaragara ko arimo asuzuma umugore umwe wicaye ku ruhande rw'iburyo.

Icyumba cyo mu ivuriro hari igitanda kiriho matela n'ikindi gishasheho ishuka hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse hejuru hari ifoto iriho imbuto z'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiri ku kigo nderabuzima, kimo ibitanda bivurirwaho abarwayi ndetse hari mudasobwa, hari na televiziyo hejuru yaho.

Inzu nziza ifite ubusitani imbere hagaragara ko ishobora kuba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, inzu igeretse rimwe imbere yayo nta muntu uhahagaze ariko ifite ubusitani bwiza.

Mu ihuriro ry'imiti ikusanyirijwe hamwe ifasha abantu bakoze siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, bakayikoresha igihe bamaze gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se mbere yuko bajya gukora imyitozo ngororamubiri bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Igishushanyo kigaragaza umugabo wari uri guterura icyuma, imbere ye hari amashu, inyanya, amagi, karoti ndetse na pavuro. By'umwihariko hirya ye hari inanasi, ubuki ndetse n'ibindi.

Umugabo ufite imihati mu ntoki, ibiti kunda kwifashisha mu buvuzi gakondo, ndetse yambaye n'ikarita imuranga mu ijosi.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse hejuru gifite ubwerezwa bw'umweru. Bakunda kucyita inyabarasanya, cyifashishwa mu gukusanya imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Ubwoko bw'ibiti bushobora kuba bukoreshwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivuzwa mu buvuzi gakondo by'umwihariko bigaragara ko hari ikigo gishinzwe kubungabunga bino biti.

Icupa riri iruhande rw'ikimera, rigaragara ko rigiye gukoreshwa mu gukora imiti ya kinyarwanda, cyangwa se imiti y'ibyatsi, ndetse hejuru y'aho, hari indi shusho iriho amoko atatu y'ibimera.